Hano haragaragara imodoka iparitse, iyo modoka icururizwa mu isoko ricuruza imodoka rya Kigali iri mu bwoko bwa mesidesi benzi iragurishwa ku giciro kingana na miriyoni makumyabiri n'eshatu.

Hano haragaragara umubyeyi w'umugore imbere ye hari utujerekani turi mu ngano zitandukanye turimo amata inyuma ye hari undi mugore, inyuma ye nanone hari ahantu hari igikuta cyubakishije ibikoresho bya kinyarwanda.

Hano haragaragara ibiganza bibiri bifashe inote z'igihumbi, buri kiganza gifashe inote eshesha, ikiganza kimwe gifashe inote esheshatu, ikindi kiganza gifashe inote zirindwi. Izo note ni izo mu gihugu cya Nigeria.

Mu cyumba cy'inama ahateraniye abantu b'inzego zitandukanye b'abayobozi harimo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame na madamu we Jeannette Kagame, abaminisitiri n'abadepite.

Hano haragaragara isoko ry'ubucuruzi bw'imbuto. Harimo imineke, indimu, imyembe, amatunda. Hakabamo abacuruzi, harimo na kizimyamoto. Iryo soko rirasakaye, harimo n'imbuto ziba zimanitse ku bisenge.

Hano haragaragara inyubako nini y'ubucuruzi igereretse inshuro enye, icururizwamo imyenda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.